Ahantu hari umuntu wambaye ijiri y'ikigo cy'itumanaho cya MTN, hakaba hari ikiganza gifashe ifishe iriho ibiciro bishya by'umukiriya w'icyo kigo cya MTN, uyu muntu ufashe iyo fishe ntabwo agaragara neza mu maso.

Ni ahantutu ku muhanda wa kaburimbo, iruhande rwawo hakaba hari amapave, hateretse agasanduku n'umutaka w'ikigo k'itumanaho cya MTN ndetse hakaba hicayemo umuntu, inyuma ye hari inyubako nini ihari, hari n'undi muntu usa nkaho agiye kwinjira muri iyo nyubako.

Ni akazu kicayemo umuntu ukorera ikigo cya MTN ndetse na Airtel, ku idirishya hakaba hariho umugabo waje gusaba serivisi zerekeranye n'ibyo bakora, uwo muntu uri mu kazu hari amafaranga ari kubarira uwo mugabo uri imbere ku kadirishya.

Umuhungu n'umukobwa bari kugendera mu kayira k'abanyamaguru, iruhande rwabo hari akazu gakorerwamo na MTN ndetse na Airtel-Tigo. Imbere yabo hari abamotari bari kuri moto baparitse ndetse hirya hari amazu menshi agiye atandukanye.

Ni ahantu ku muhanda hakaba hari umuntu wambaye akajiriri k'ikigo cy'itumanaho cya MTN. Bari munsi y'umutaka w'ikigo cya MTN bisa nkaho uyu mukiriya aje gushaka serivisi zerekeranye n'ibyo MTN ikora.

Ni ahantu hari iduka hakaba hari ibyapa byinshi bigiye bitandukanye bya Airtel ndetse na MTN, imbere y'iryo duka ku muryango hakaba hari umuntu wicaye munsi y'umutaka w'ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda cya Airtel ndetse iruhande rwe hakaba hari n'icyapa cya MTN.

Abakobwa babiri ubona ko bakeye, umwe yambaye umupira w'umutuku wanditseho Airtel, undi yambaye ishati y'umweru na yo yanditseho Airtel, akaba afite telefone ikorwa n'icyo kigo cya Airtel, undi na we afite agakarito iyo telefone yavuyemo.

Umugabo wambaye malinete ndetse akaba yambaye n'umupira w'ubururu wandikishijeho inyuguti z'umweru, ari kumwe n'umugore ubona ko yenda kuba ari umukecuru, afite telefone ngendanwa mu ntoki arimo arerereka uwo mu umugabo, urabona ko uyu mugore yishimye cyane arimo araseka.

Akazu k'ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda ka Airtel, kakaba kari mu ibara ry'umutuku ndetse harimo n'ibara ry'umweru, kakaba gakoreramo umukozi wa Airtel, aho atanga serivisi zo kubitsa no kubikuza, ndetse no gutanga amayinite.

Umugabo uhagaze imbere y'abandi bantu gusa batagaragara, akaba yambaye ishati y'ubururu yanditseho amagambo hariho n'ibiraneyego. Uyu mugabo akaba afite microphone mu ntoki, ndetse imbere ye hakaba hari n'indi mikorofone ihari. Mu bigaragara ni uko hari ikintu cy'ingenzi ari gutambutsa.

Ahantu hari abantu benshi, hakaba hari abagabo bambaye imyenda y'ubururu, isa nk'aho ari impuzankano. Hari umugabo ufite microphone mu ntoki, aho imbere yabo hapakiye inanasi nyinshi zigiye zitandukanye. Uyu mugabo akaba hari ijambo ari kuvuga ku bijyanye n'uyu musaruro.

Ahantu hameze nk'ahabikwa amafaranga y'abaturage, aho hicaye umuntu w'umudamu, inyuma ye hari undi muntu wambaye buji, imbere ye hakaba hari abadamu babiri baje gushaka serivisi ndetse iruhande rw'abo badamu hakaba hari umugabo wambaye ikote ndetse n'ishati y'umweru, biragaragara ko ari nk'Umurenge SACCO.

Abantu bicaye ubona ko bateraniye hamwe wagira ngo bari mu ishyirahamwe ryo kwizigamira. Harimo umugabo umwe w'umuzungu ndetse hagati yabo hari umuntu umwe uhagaze.

Abantu bicaye ahantu hari ibikuta byubakishije amabati, bakaba basa nk'aho bari mu itsinda ryo kwizigama, harimo abantu benshi bagiye batandukanye, aho imbere ya hicaye abayobozi babayoboye muri iryo tsinda.

Abantu bahagaze ahantu hari ikinogo kinini, muri abo bantu hakaba harimo umugabo wumuzungu, harimo umugabo urimo arasa nk'aho ari gufata amafoto ndetse bahagaze ahantu mu ishyamba hari ibiti byinshi bigiye bitandukanye.

Umuntu wambaye imyenda yabugenewe, akaba ari ahantu hororerwa inkoko nyinshi. Ni inzu nini ubona ko yagenewe kororerwamo inkoko. Izo nkoko zikaba ziri mu mabara y'umweru. U yu muntu akaba aje kuzisura kugira arebe niba hari ikibazo zaba zifite zibashe kwitabwaho.

Abantu bari ahantu hitaruye ubona ko hameze nk'aho ari mu misozi, imbere yabo hakaba hapakiye inanasi nyinshi cyane, ubona ko bishimye cyane bisa nk'aho bishimiye umusaruro bamaze kweza.

Ni ahantu bigaragara ko ari mu mahema hakaba hicayemo abantu benshi bagiye batandukanye, imbere yabo hahagaze abagabo babiri ubona ko bafashe ku kantu kameze nka seritifika kanditseho ngo icyemezo k'ishimwe.

Ahantu hateraniye abantu benshi bagiye batandukanye bisa nk'aho bicaye mu mahema yubatse, imbere yabo hari umugabo uhahagaze ufite mikorofone mu ntoki, akaba arimo arababwira imbwirwaruhame ndetse n'ijambo yabateguriye.

Abantu bicaye ahantu mu mahema, bakaba bambaye impuzankano. Bicaye ku ntebe ziriho udutambaro tw'umweru, aho bisa nk'aho hari inama runaka bitabiriye cyangwa igikorwa, bakaba bateze amatwi umuntu urimo arabagezaho imbwirwaruhame.

Iri ni isoko ubona ko risakariye rikaba risakarishije amabati y'ubururu, harimo ibicuruzwa byinshi bitandukanye nk'inyanya, hakaba harimo udufuka turimo ibyo kurya bitandukanye n'ibindi bicuruzwa by'ingenzi.

Akabari ubona ko kari kwaka amatara y'umuhondo, muri ako kabari hakaba harimo etajeri ipakiyemo inzoga z'ubwoko bwinshi bugiye butandukanye, ndetse haragaragara ko ari ahantu heza cyane ndetse hashobora kuba hahenze.

Ni akabari ubona ko kagezweho, aho muri etajeri harimo inzoga z'ubwoko bwinshi bugiye butandukanye. Ndetse imbere hateretse udutebe tureture, abakiriya bicaraho barimo banywa inzoga.

Ni ahantu hameze nk'aho ari ku gikuta kigiye gishwarambuyeho, hakaba hariho icyapa cy'mwe mu nzoga ikunzwe mu gihugu cy'u Rwanda, icyo cyapa kikaba cyanditseho gatanu ndetse hakaba hariho idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Ni ahantu hagaragara inyubako, iyo nyubako ikaba ikorerwamo biziznesi yo gucuruza ibyo kunywa by'amoko agiye atandukanye, ikaba ari bale, bigaragara ko kuri iyo bare hari amakaro ariho ndetse hakaba ari ahantu heza cyane.

Mu tubari twinshi tugiye dutandukanye hirya no hino mu Rwanda hagiye harimo amoko menshi y'inzoga zigiye zitandukanye, hano hakaba harimo ubwoko bw'inzoga nyinshi zigiye zitandukanye, ibyuma, mitsingi, byeri, turubo ndetse n'izindi zigiye zitandukanye.

Amakesi atanu arimo amacupa y'ubwoko bw'inzoga butandukanye, hakaba harimo aya mitsingi n' aya Skol . Aya makesi akaba yifashishwa mu bubari butandukanye kugira ngo babashe kunoza serivisi baziha abakiriya.

Ni inyubako icuruza ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko ikaba yiganjeho amagaze ndetse n'udukoresho twayo tw'ibanze twabugenewe gukoreshwa kuri gaze, haparitse moto ndetse handitse ngo Kibonge gaze.

Iyi ni butike ubona ko ipakiyemo ibintu byinshi byifashishwa mu buzima busanzwe bwa buri munsi, hakaba harimo amavuta yo guteka, hakaba harimo amavuta yo kwisiga, amasarisa, amabuleba ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ni inzu nziza ubona ko imeze neza hakaba harimo etajeri irimo ibintu bitandukanye, utubido, amakesi ndetse n'ibindi, iyi nzu ikaba ari butike icururizwamo ibintu bigiye bitandukanye.

Ni abantu ubona ko bari ahantu mu nzu, bakaba barimo barasenga, bamwe bahagurutse bateze amaboko bisa bari mu mwuka, abandi barunamye basa naho nabo barimo barasenga cyane, harimo abapfukamye, ndetse izi zikaba ari serivisi zikorerwa mu nsengero.

Abantu benshi bicaye ahantu mu byatsi ubona ko bicaye ku murongo, bisa nk'aho hari ibintu by'ingenzi bajemo kuko bose urabona ko bateze amatwi, biragaragara ko hari umuntu uri imbere yabo urimo uragira icyo ababwira, inyuma yabo hari urugo rw'imiyenzi ndetse hateye n'ibiti.

Abantu bambaye imyenda y'imyeru y'amakanzu, mo hagati hakaba harimo umupadiri wambaye akagofero ndetse n'umusaraba. Imbere ku meza hariho umusaraba ndetse n'inkongoro ebyiri, bisa nk'aho ari nk'umupadiri uri gusoma misa, inyuma ye hari abandi bantu ndetse hagaragara n'ikimodoka gihari n'inzu.

Inzu ubona ko yubatswe mu buryo bugezweho iyi nzu ikaba ari etaje, ikaba itangirwamo serivisi za hoteri, akayira kajyayo karimo amapave ndetse imbere y'aho hari ubusitani bwiza cyane.

Inyubako iri mu mabara y'umuhondo, ikaba yubatse mu buryo bugezweho bwa etaje, biragaragara ko ari inyubako itangirwamo serivisi zijyanye na hoteli, imbere yayo hakaba hari umuntu urimo uragenda bisa nk'aho ayivuyemo.

Ni mu cyumba ubona ko ari icyumba cyiza cyane kirimo amabara y'umuhondo, harimo uburiri bwiza cyane bushashe neza ndetse kurukuta hamanitseho ifoto, iki kikaba ari icyumba cyo muri hoteri runaka.

Ahantu ubona ko hameze neza, hakaba hateguye intebe ndetse n'ameza bimeze neza, hejuru kuri buri meza hagiye hariho ibirahuri by'ibyo kunywa bigiye bitandukanye, urabona ko ari ibyumba bimwe byo mu maresitora ndetse n'amahoteli.

Ni ahantu ubona ko hameze neza kandi hasa neza cyane, ku meza hateretseho ibiryo by'amoko agiye atandukanye ndetse n'inzoga. Imbere yabyo hakaba hari pisine abantu bogamo. Ndetse haragaragara n'utwatsi twiza ubona ko ari ahantu hameze nko muri hoteli nziza cyane.

Aha ni kuri hoteli. Iki kikaba ari igice kigize hoteli nyinshi zigiye zitandukanye ziri mu Rwanda. Aho usanga hari pisine nziza cyane ndetse hakaba hari n'intebe, ziriho imitaka abakiriya bicaraho, nyuma y'uko bavuye muri hoteli. Haragaragara kandi n'ibimera bisa neza ubona bitoshye.

Amafunguro ateguwe neza cyane ndetse ubona ko ateguranywe ubuhanga, aya mafunguro akaba ari amwe mu mafunguro ategurirwa muri hoteli zo mu Rwanda zigiye zitandukanye kandi biragaragara ko aya mafunguro aryoshye ndetse anogeye n'ijisho.

Ahantu heza cyane bigaragara ko ari agace kamwe ko muri hoteli runaka, hakaba hari pisine abantu bogamo ndetse iruhande rwa pisine hari udutebe twiza twabugenewe turiho umutaka utwikira izuba abakiriya baba bavuye koga muri pisine, imbere ya pisine hari ibyatsi byiza cyane ubona ko bitohereye.

Inyubako ubona ko ari nziza cyane. Biragaragara ko iyi nyubako ishobora kuba itangirwamo serivisi za hoteli. Akaba ari inyubako yubatswe mu buryo bwa etaje. Imbere yayo hari jaride nziza cyane ndetse hateye n'ibindi biti byiza, mubona ko bifasha abakiriya guhumeka umwuka mwiza.

Ahantu hameze nko muri hoteri, hakaba hari abantu bahicaye. Hari abantu batatu, umugabo umwe ni umuzungu, imbere ku meza hari imashini ihari ndetse n'amacupa arimo ibyo kunywa. Inyuma yabo hari n'abandi bantu bahicaye.

Ni inyubako ubona ko ari inyubako nziza cyane, hakaba hasa nkaho wagira ngo ni kuri hoteli, bari kutwereka umuryango abantu bakirirwaho, ndetse hari amavaze ateyemo uturabo ndetse imbere y'umuryango hakaba hari amapave.

Uyu ni umugore wambaye agapfukamunwa akaba yikoreye tungurusumu, inyuma ye hari abandi bantu bahari bisa nkaho uyu mugore izi tungurusumu ashobora kuba azijyanye mu isoko cyangwa se azivanyeyo.

Ahantu hari abantu benshi, hameze nko mu isoko, hari abantu benshi bahaje ndetse urabona ko batanditse ibicuruzwa bigiye bitandukanye nk'inkweto, bigaragara ko hano hakorerwa serivisi cyangwa hatangirwa serivisi zijyanye no gucuruza ndetse no kugura.

Ahantu bisa nkaho hateraniye abantu batandukanye ariko batagaragara neza mu maso, imbere yabo hakaba hateretse ikidomoro gipfundikije ikintu kimeze nka shitingi y'ubururu, hari umuntu uhetse igikapu wegereye iki kidomoro.

Aha ni mu isoko, aho harimo abantu batandukanye, hamanitsemo imyambaro myinshi igi itandukanye ndetse harimo n'abagore bari kudoda imyenda, hicayemo abandi bacuruzi ndetse harimo n'abakiriya baba baje kureba izi serivisi zihatangirwa.

Ni mu isoko aho hicayemo umuntu arimo arareba imbuto nyinshi zirimo zigiye zitandukanye hakaba harimo inyanya, pavuro, intoryi, ibitunguru, kokombure, tungurusumu ndetse n'izindi zigiye zitandukanye.

Ahantu hari inzu zigiye zitandukanye z'ubucuruzi, hakaba hari abantu benshi barimo bahatambuka, hari umuntu uri ku igare ndetse hari ameza ariho ikintu cy'umukara, iruhande rwacyo hari icyarahani cyifashishwa badoda imyenda.

Abagore benshi bagiye batandukanye bakaba batanditse ibicuruzwa byabo bigiye bitandukanye byiganjemo imbuto, hari inyanya, hakaba urusenda, ahakaba intoryi ndetse n'ibindi bicuruzwa byinshi bigiye bicururizwa aho ngaho.

Ahantu ubona ko hari inyubako nyinshi zirebana mo hagati hakaba harimo akayira, harimo abantu benshi bari kugendamo ndetse izo nyubako zose zikaba ari inyubako z'ubucuruzi, harimo ibicuruzwa byinshi bigiye bitandukanye, aba bantu bisa n'aho baba baje kwihahira.

Ni hantu ubona ko hacururizwa ibintu bigiye bitandukanye, imyenda, imbuto, imineke, biragaragara ko bisa nkaho hameze nko mu isoko cyangwa se ari aho abantu bikoreye agasoko kugira ngo baticwa n'inzara ariho bita ntuburare.

Inzu nziza cyane irimo irakamo amatara y'imituku, hakaba harimo ahantu hagiye hatandukanye ho kwicaramo, iyi nzu akaba ari nko muri bare cyangwa muri resitora aho abantu baza bakicara bakaganira bagira n'icyo bafata.

Ni mu muhanda uzwi nka kaburimbo, akaba ari aho imihanda ihurira, hari fe ruje, hari abamotari, hari amamodoka menshi ndetse hari n'umupolisi uhagaze, hari akayira abanyamaguru bambukiraho kugira ngo imodoka zitabagonga.

Ni mu muhanda w'umukara uzwi nka kaburimbo, aho hagaragaramo umumotari wambaye kasike ndetse uhetse n'igikapu. Iruhande rwe hari umuntu wicaye ku ruhande ndetse hari n'inzu yubakishije amabati, hari n'indi nzu ubona ko ari inzu nziza cyane. Haragaragara n'insinga ndetse n'igiti kinini cy'inganzamarumbu.

Umumotari uri mu muhanda w'umukara uzwi nka kaburimbo akaba ahetse umubyeyi bose bakaba bambaye kasike, iruhande rw'umuhanda hari akahira k'abanyamaguru ndetse hagaragara amapoto ariho insinga nyinshi zigiye zitandukanye ndetse hakaba hari n'ibiti byinshi bihari.

Ni mu muhanda wa kaburimbo abo hagaragaramo umuntu utwaye igare uhetse agakarito ku ntebe, inyuma ye hakaba hari abamotari bahetse abagenzi, ndetse kuri uwo muhanda hakaba hagaragara akayira k'abanyamaguru, ndetse haragaragara n'amapoto ajyana insinga z'amashanyarazi.

Ipikipiki itwawe n'umugabo akaba ahetse umugenzi bari mu muhanda wa kaburimbo aho mu kayira k'abanyamaguru harimo abandi bantu barimo bagenda, kuri uwo muhanda ukaba ukikijwe n'ibiti byiza ndetse n'amazu, hakaba hariho n'amapoto ateyeho amatara amurikira uwo muhanda.

Mu muhanda w'umukara uzwi nka kaburimbo harimo umuntu utwaye igare uhetse n'agafuka, iruhande rwe hakaba hari umuntu utwaye ipikipiki ndetse uhetse n'umugenzi, hirya yabo hakaba hari akayira kanyurwamo n'abanyamaguru, hari inzu zihari n'insinga z'amashanyarazi.

Ni mu muhanda wa kaburimbo aho harimo umumotari uri kuri moto wambaye kasike, iruhande rw'akayira k'abanyamaguru hakaba hari imodoka iparitse ndetse mu kayira k'abanyamaguru harimo umunyonzi urimo ndetse haragaragara urutsinga n'inzu n'ibiti.

Ni mu muhanda w'umukara wa kaburimbo ,hakaba harimo umuntu utwaye ipikipiki ndetse ahetse umugenzi. Hirya mu kayira k'abanyamaguru harimo abadamu babiri barimo baragenda.

Umuhanda w'umukara wa kaburimbo. Ukaba urimo umuntu uri ku igare uhetse mugenzi we. Iruhande ye haragaragara akayira k'abanyamaguru ndetse kuri uwo muhanda ku ruhande hari ibiti byinshi ndetse hari n'amazu ahari.

Ni mu muhanda ubona ko harimo amapave hakaba harimo umuntu uri ku ipikipiki ndetse hari n'abandi bari ku mapikipiki ariko baparitse, hari n'undi muntu uri mu mutaka wa MTN, hari ifoto ririho insinga z'amashanyarazi ndetse hari n'indi nzu iri mu mabara y'umweru.

Umugabo uri ku ipikipiki akaba yambaye kasike, ku ruhande rw'umuhanda hagaragara umupolisi wambaye impuzankano ya gipolisi, inyuma kandi hakaba hari ibiti ndetse n'utuzu dukoreramo abakozi ba MTN n'abandi bantu barimo baragenda.

Ni mu muhanda wa kaburimbo aho harimo umuntu uri ku ipikipiki, hirya ye hakaba hari undi mugenzi uri kugenda n'amaguru, inyuma yabo hakaba harimo yanditseho Skol.